Ndabona ikigo cy'ubwishingizi cyamamaza, ndabona umumama n'umupapa n'abana babiri birabura, abana babiri b'abakobwa bari kwamamaza.

Ndabona ubwishingizi, umusaza n'umukecuru n'umukecuru bafatanye, umukecuru yambaye agatambaro k'umutuku mu mutwe, umusaza ufite ubwanwa bw'imvi, umukecuru yambaye ikoti ry'umukara, umukecuru ari guseka.

Imyenda imanitse y'abadamu, imanitse ku twuma dushinzwe kumanikwaho imyenda, iduka ririmo imyenda myinshi imwe imanitse n'indi izinze iri mu kabati.

Ibikoresho bikorwa mu bijyanye cyangwa se mu myenda ikorerwa mu Rwanda cyangwa se bikorerwa mu Rwanda, hari imitaka ibiri ikozwe mu myenda y'igitenge cyangwa se mu gitenge, n'indi iri hasi izinze ifunze irarambuye, hari n'indi myenda imanitse mu iduka.

Ndabona iduka, ingofero zifite urubaraza, umupira w'umutuku n'umweru urimo ikirangantego cy'ikizeru kijya kuba umuhondo, ndabona amashati amanitse, ndabona akabati bimanitsemo.

imodoka iri mu ubwoko bwa Hybrid iri kugurishwa, yo muri bibiri na cumi na kabiri, iri kugurishwa miliyoni makumyabiri n'eshanu, ndabona amapave, ndabona ibiti ndabona uruzitiro.

Imodoka ifite amapine y'imikara, ibirahure, amatara y'imodoka abagabo babiri bahagaze bari guseka b'abirabura amadirishya ndabona bambaye amashati bambaye inkweto z'imikara, amapave, umuhanda, imiryango, amatara n'izindi modoka.

Ndaboa inoti ya magana atanu y'u Rwanda ishushanyijeho inka imwe iri kurisha indi ihagaze, ndabona umukono ku mafaranga na banki y'u Rwanda inoti nshyashya.

Agakoresho bifashisha cyangwa se babikamo ibijyanye n'amagi gateretse hejuru y'imeza ndetse ubona ko hejuru yako ari igikarito kirimo ibindi bintu runaka cyangwa se igipapuro kirimo ibindi bintu.

Ndabona abantu batatu birabura barimo umukobwa umwe n'abahungu babiri, bari kunywa amata mu bikombe, imbere yabo hari amajage, bicaye ku ntebe z'imyeru, ndabona umuryango w'ubururu, umuryango w'ubururu, irangi ry'ubururu n'umweru.

Ndabona igikombe kirimo amata, ibikombe bibiri biteretse hejuru y'imeza birimo amata, akabido k'umweru, intebe y'umweru, intebe y'umweru n'akabati.

Uburyo wakoresha ibijyanye na serivisi zijyanye no kohereza amafaranga ariko wifashishije ikoranabuhanga aha rero barakwereka uburyo wakwinjira muri serivisi za mwe muri sosiyete ishinzwe ibintu bijyanye n'itumanaho uburyo wakwinjira muri iyo serivisi ku mbuga nkoranyambaga.

Urujya ni uruza rw'abantu bari kwamamaza umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu bakaba barimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba biganjemo abantu bambaye imyenda y'ibara ry'icyatsi, bari mu ma tente arimo amabara y'umweru, icyatsi n'umuhondo, bamwe bakaba bafite ibyapa biriho ifoto y'umugabo wambaye kositime byanditseho ngo tora, bakaba bacyikijwe n'ibiti byinshi ku musozi.

Ndabona umuryango, n'icyapa cya mukomere ivunja amafaranga, ndabona idirishya, ndabona intebe y'umweru, harimo akapa ka emutiyeni.

Ndabona imbaho n'ibitambaro bimanitse n'umugabo wicaye ku ruhande wicaye hejuru y'imbaho,...

Intebe zikozwe mu ntebe zikozwe mu mbaho zijya muri salo zikoreshwa mu buryo bwo kuriraho intebe ziba ziri ku meza nini cyangwa se ndende yo kureraho cyangwa se gufatiraho ifunguro.

Ndabona intebe zo mu rubaho ebyiri, ndabona amakaro, ndabona akabati inyuma, igitanda.

Ndabona igitanda cy'urubaho rwa ribuyu, ndabona isaso, ndabona ibindi bitanda ku ruhande, ndabona inyuma ihema n'umugabo uri gukora, wambaye isengeri y'umweru.

Intebe zo mu nzu, aho bafatira amafunguro, cyangwa se zo kuriraho, ni itebe zikozwe mu mbaho, hejuru yazo hari utuvaze tubiri, ndetse hari n'izindi zigiye zitandukanye.

Icyapa cyerekana Marriott ni hoteri, cyangwa se aho abantu baruhukira cyangwa aho baganirira mu gihe cyo kwinezeza cyangwa se kuruhuka.

Ahantu h'uruganiriro cyangwa se abantu bajya kwishimishiriza, basohokera bakaganira, harimo ibinyobwa byiza, intebe nziza, hari kwakamo amatara meza, hariyubashye kandi hajya abantu biyubashye.

Iyi ni inyubako ndende, icumbikirwamo abantu, imodoka, amadirishya, imiryango, amatara, n'icyapa n'izina riranga iyo nyubako uburyo yitwa.

Inzu amadirishya atatu, ane, amadirishya ane, ndabona aho imodoka zihagarara, ibiti, ndabona igisenge, amabati n'amatara.

Inzu y'ubwishingizi inzu igeretse kabiri isize amarangi y'umweru ndetse ifite ibirahuri n'imiryango y'imikara, ni inzu hanze haparitse cyangwa se hari imodoka ebyiri, imodoka y'umweru ndetse n'indi ngufiya ifite ibara ry'ivu, hanze hari ibiti bibiri ndetse n'icyapa.

Ndabona abantu bari mu nama birabura, harimo umwe wambaye ingofero na marinete uri guseka; undi yambaye ikote ari guseka, ndabona ubucupa bw'amazi ku meza, ibyapa byamamaza inyuma yabo, ndabona ibirahuri. Bicaye ku ntebe z'imikara, harimo abakobwa, abamama n'abapapa, cyangwa se abakobwa n'abahungu.

Umumama bigaragara ko ashinzwe gutanga ibyo kurya cyangwa kunywa ahantu, ndetse hakaba hateguye neza intebe zikozwe mu mbaho ziteye neza, ubusitani bw'indabyo, ndetse n'ibiti hakurya, bigaragara ko hari ahantu abantu biyakirira, ndetse hateye neza rwose.

Ndabona iduka cyangwa se isoko ricururizwamo ibikoresho bya kinyarwanda harimo uduseke ,harimo utubindi n'ibikinisho by'abana n'ibikapu byo guhahiramo bikozwe mu buryo bwa kinyarwanda.

Ndabona isoko, ibiribwa, igito, pavuro, karoti, n'ibindi biribwa bigiye bitandukanye, ndabona igitambaro, ibikarito.

Ahacururizwa imyenda, hari imyenda iri hasi, hari n'imyenda imanitse, hari amakanzu ndetse hari abamama bicaye hasi, undi, abandi babiri barahagaze, harimo imyenda imanitse ndetse itara riri kwaka.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo urimo ubururu ndetse n'ingofero y'ubururu irimo umuhondo n'abandi bakozi ubona bakorera ikigo gishinzwe ibijyanye na serivisi harimo amaite ndetse n'ibindi. Urabona ko bari kumwe n'undi mugabo ufite terefone mu ntoki ndetse n'igihepapuro wambaye isaha.

Abagabo batatu, bari ahantu mu nzu, babiri bambaye imipira y'umuhondo ya MTN, ndetse umwe muri bo yambaye amarineti, aricaye, undi arahagaze, bafite mudasobwa, imbere yabo hari hari undi mugabo wambaye umupira w'umweru, ufite igikapu cy'umukara, aba bagabo bose barirabura.

Ndabona utuzu twa MTN tubiri, harimo umuntu n'abandi batatu, umwe aricaye bambaye imipira y'imyeru n'umuhondo, ubuzu bw'umuhondo, ndabona hashinzeho ubwuma bw'umweru, ndabona akandi kazu ko hirya kariho umuntu wambaye ipantaro y'umukara n'undi mukobwa wambaye umupira w'umweru n'umuhondo.

Aka ni akazu igakabamo serivisi zigiye zitandukanye, harimo izijyanye n'uburyo bw'amayinite cyangwa se kohereza hirya no hino. Ni akazu karimo abakozi ndetse hari n'abakiriya bakeneye serivisi bari hanze aho ngaho bari gufashwa.

Iduka ririmo abamama batatu, hari umumama uhagaze wambaye ikanzu ndende ndetse ari kumwe n'umukobwa ufite ibisuko wambaye umupira w'umuhondo urimo ubururu wa MTN ugaragaza ibijyanye no kwamamaza ndetse yambaye ipantaro y'umutuku, hari undi urimo ndana uri ku...

Abantu bahagaze mu kazu cyangwa se akantu k'akazu kubakishijwe ibitambaro cyangwa se amahema ya MTN, hahagazemo abantu basa n'aho bari kureba ibihakorerwa barimo bamamaza.

Ndabona akazu gacururizwamo amayinite, k'umutuku, ndabona agacupa k'amazi, ndabona undi mutaka hirya yawo ujya kuba umutuku, akazu ni umutuku, kandikishijwemo amagambo y'umweru, kamamaza amayinite.

Amaguru meza cyane y'umukobwa wambaye inkweto, ni inkweto nziza z'abakobwa cyangwa se abadamu, inkweto zifunguye hasi ndetse zo hasi, ni inkweto ziri kugurishwa ndetse ku mafaranga ibihumbi icumi na magana atanu, ndetse hari n'aho wabahamagarira.

Inyubako iherereye mu mujyi wa Kigali, Gisozi hafi ya Kagugu, inyubako igeretse kabiri iri kugurishwa miliyoni cyangwa se agera kuri miliyoni magana tatu mirongo itanu, hari ubusitanikoze neza cyane ni umwihariko.

Ndabona icyumba, akabati mbere yigitanda, akabati imbere y'igitanda, igitanda cy'urubaho, ndabona uburiri, matela ishashe cyangwa se uburiri bushashe, ndabona imisego ibiri, bushasheho ikiringiti, ndabona ishuka hejuru yacyo n'amarido n'amakaro.

Inzu ndabona inzu, amadirishya, igisenge, uturabyo, amapave n'aho imodoka ihagarara. Ndabona amatara, ndabona umuryango, n'itiyo y'amazi n'umureko, n'itiyo y'amazi avuye ku mureko.

Ndabona ikibanza kigurishwa, inzu igurishwa i Kanombe, ndabona inzu, urupangu, igiti, ndabona imifuka, amatafari, amapave, amabati n'uruzitiro.

Inzu iherereye kigali i Remera ifite icyumba kimwe ndetse ikagira ubwogero bumwe bwo mu nzu, ifite idirishya rimwe ndetse n'umuryango.

Inyubako igeretse kabiri ndetse ndende mu bugari, ifite ubusitani bwiza harimo ibiti ndetse n'ibirabyo no mu hakabamo n'ubusitani, iyi nyubako iherereye kibagabaga irakodeshwa amadorari ibihumbi magana atatu ku kwezi.

Iduka, supaneti, amatara, utubati, imyenda, amavuta, umuntu uhagaze wambaye agakabutura, agapira k'ubururu, ufite ibisuko, imyenda y'abana, simo, akabati.

Iduka risa nk'aho ricururizwamo imyenda, hejuru hamanitse ibitambaro, hari umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi k'umukara n'ipantaro y'umukara n'abamama cyangwa se abakobwa bari kugura cyangwa se guhaha, hari umukobwa wambaye isengeri ufite igikapu n'abandi babiri bari iruhande rwe ndetse n'ibindi bizinze biri hasi.

Umuhungu cyangwa se umusore wambaye ishati y'umukara n'umweru ndetse n'agapfukamunwa wirabura ufite umusatsi, umuhungu ufite icyapa witwa Mucyo William, kiriho amafaranga agera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri.

Ejo heza ubwishingizi bukugirira akamaro iyo ugeze mu za bukuru, igihe ufite imbaraga zo gukora zigamira izabukuru muri ejo heza. Icyapa kiriho umumama ndetse cyanditseho ejo heza, amahema n'abandi bantu babiri bicaye iruhande.

Iduka ririmo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bigiye bitandukanye, harimo amaji ndetse n'ibintu bijyanye n'ibiryohera by'amabiswi, bipanze mu tubati mu iduka.

Iduka ririmo cyangwa se isoko ibintu bicuruzwa bigiye bitandukanye harimo imitako ndetse n'ibindi bijyanye no kurya ndetse n'ibyifashishwa mu ngo. Bigiye bitondetse mu tubati ku buryo ubona ko hari isuku.

Iduka ricuruzwamo ibijyanye no kurya ndetse n'ibikoresho bigiye bitandukanye bikoreshwa cyangwa se byifashishwa mu ngo, harimo abantu batatu umwana uri kumwe n'umubyeyi, cyangwa se abana babiri bari kumwe n'umubyeyi, n'undi muntu uhagaze ku ruhande harimo n'amatara ari kwaka.

Iduka ricururizwamo ibijyanye no kurya cyangwa se ibifasha mu bintu byifashishwa mu ngo. Ni iduka harimo utubati hamanitsemo ibicuruzwa ku tubati, hari abagabo babiri bahagaze bari guhaha, umwe yambaye agapira kajya gusa umutuku ukuntu utijimye, undi yambaye umupira w'umukara.